Umubyeyi ufite abana batoya, mbere yo kugira icyo abaha abanza kubereka uburyo bakaraba intoki neza n'isabune ndetse n'amazi asukuye.

Umubyeyi ahagatiye umwana, aje ku ivomero, aho aje kuvoma amazi meza, afutse. Ni ivome rya kijyambere, ritanga amazi yujuje ubuziranenge.

Iri ni ikusanyirizo ry'amazi. Aho batunganyiriza amazi, mbere y'uko atangira gukwirakwizwa mu baturage, hirya no hino. Aya mazi yujuje ubuziranenge, ni amazi afutse kandi asukuye.

Inama mpuzamahanga yo kwita ku buzima, aho buri wese umuhungu cyangwa umukobwa afite uburenganzira n'uruhare rwo gutanga ibitekerezo ku bijyanye no kwita ku buzima.

Umukangurambaga w'ubuzima, yagendereye umubyeyi ufite umwana umwe, ari kumuganiriza ku buryo bwo kwita ku muryango, bakora isuku aho bicaye, ibyo bariramo, bita ku bana mu buryo bushoboka.

Nyuma yo gukora amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima, abakangurambaga b'ubuzima baturutse mu midugudu no mu tugari dutandukanye, bahagaze imbere y'inyubako bari gufata ifoto y'urwibutso.

Nyuma y'amahugurwa yari yahuje abajyanama b'ubuzima, baturutse mu tugari no mu mirenge itandukanye, hafashwe ifoto ifatirwa mu busitani bwiza, ahantu hari ibiti bitanga akayaga. Twite ku buzima, tugana abafashamyumvire, aho dusuye mu tugari no mu mirenge.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati ya kaki, agapantaro k'umutuku werurutse, ari ku iriba avoma amazi meza, aho yaje yitwaje amajerekani atatu.

Dutoze abana bacu kugira umuco w'isuku. Reka isuku iganze mu mirerere, mu byo duha abana, mu mpamba y'ubuzima habemo no kubatoza kwigirira isuku ku mubiri, bakaraba amazi meza, ndetse tubahe n'uburyo bwiza bwo gutera imbere mu mitekerereze.

Akana k'agakobwa gafite imisatsi iboshye kari mu kigero cy'imyaka umunani kari ku mugezi kari gukaraba intoki namazi meza.

Umwana w'umuhungu uri ku iriba rya kijyambere rizana amazi meza afutse akoreshwa mu rugo mu mirimo itandukanye, harimo koga koza ibyombo, gufura, ndetse no kuhira amatungo.

Umugore ukiri muto, ari imbere y'inzu, hakaba hari kandagira ukarabe, mu rwego rwo kwimakaza umuco wo kugira isuku.

Abana bambaye impuzankano z'ishuri, bari kumwe n'ababyeyi ndetse n'abarimu babigisha. Bari kuganira ku bijyanye n'imirere y'abana n'uburyo bakomeza mu gufatikanya kwita kuri urwo rubyiruko, dore ko ari rwo Rwanda rw'ejo hazaza.

Umubyeyi ucigatiye umwana yamutwikirije agashura gafite ibara ry'umuhondo, umukoreranabushake ari kumupimira umuriro ngo arebe niba nta cyorezo yaba afite.

Abana babiri bari imbere y'inzu ifite umuryango, urugi rw'imbaho, bafite indobo imbere yabo undi ahagatiye guhuinika ibinika y'ubururu mu ntoki ze.

Umugore wambaye umupira utukura n'abana batatu bafite ibivomesho, baje ku mugezi aho umwana umwe ari gupompa akura amazi mu butaka kugira ngo babone amazi y'isoko yizewe, ni byiza ko tugira umuco wo gusigasira ibidukikije.

Kwirinda umwanda dukaraba amazi meza tugakaraba intoki twitonze kandi tukifashisha isabune yabugenewe kugira ngo amamikorobe ashire ku mubiri.

Amazi meza afutse ni isoko y'ubuzima; dutoze abana gukoresha amazi meza bayanywe, bayakarabe, bayiyuhagire, bakoreshe indi mirimo yose amazi meza afutse.

Aha ni kwa muganga. Aho buri wese akangurirwa kuzana umwana, bakamupima, bakareba imikurire ye, bakareba uburebure bwe, bagapima ibiro, hifashishijwe uburyo bwa kizungu. Tubifashijwemo n'abaganga babugenewe.

Umukobwa uri kuvuga ku buryo bagomba kujya kure y'abanyamigabane batita ku buzima, ahubwo bakajya ku ruhande rw'abafite umutima wo kwita ku bantu banahabaha uburenganzira mu buryo bwo gufata imyanzuro yo kwita ku buzima bwabo.

Ivomo rya kijyambere, abaturage bazanye ibikoresho byo kuvoma amazi yo gukoresha, amazi meza yujuje ubuziranenge, yifashishwa mu gukora imirimo itandukanye yo mu rugo.

Kwa muganga hari idirishya rizana urumuri umurwayi w'umukobwa yicaye ku gitanda, muganga amufashe ukuboko yashyizeho igipimo ari kumva uko umutima.

Abana tubiteho ni rwo Rwanda rw'ejo, tubatoze umuco wo kunywa amata, amata arimo ibitunga umubiri byinshi gukomeza amagufwa, gukura neza k'umwana ndetse tubikore tubikunze nk'ababyeyi b'abo bana.

Ikigo Mpuzamahanga cyita ku bana cya UNICEF, cyambitse abana imipira mu rwego rwo guha abana agaciro.

Tugire umuco wo gutoza abana isuku, tubakangurira gukaraba intoki n'isabune n'amazi meza, igihe cyose bavuye ku bwiherero mbere y'uko bagira ikindi kintu bakoraho.

Inama yo ku rwego rw'Isi yateranye iteranira i Kigali, ku wa makumyabiri ukwezi kwa Cumi bibiri na kane, yiga ku buryo bwo guhagarika icyorezo cya Marbug.

Abanyabuzima baturutse mu midugudu no mu tugari dutandukanye, bakoraniye hamwe mu cyumba cy'amahugurwa, bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'uburyo bakwita ku baturage babafasha kubarinda kurembera mu rugo.

Abantu baturutse mu kigo runaka, baje gutanga umusanzu wo gutera ibiti bikorwamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Ku ivomero ryiza rya kijyambere, hateraniye abana n'abagabo baje kuvoma amazi meza, amazi yujuje ubuziranenge.

Abana babiri bari ku ivomo rya kijyambere bishimiye ko bafite amazi meza y'urubogobogo amazi adatera indwara, amazi yujuje ubuziranenge.

Abantu bahuruye baje kureba igikorwa cy'iterambere, aho begererejwe ivomero rya kijyambere, ritanga amazi meza afutse akoreshwa mu masuku, mu koza ibyombo mu rugo no gufura, kuvomerera inka ndetse no koga.

Inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zose, baturutse mu nzego zitandukanye, bari gukora amahugurwa ku bijyanye no kwita ku buzima.

Umubyeyi uhetse umwana ari ku ivomero ritanga amazi meza, ari koza icyo yaje kuvomeramo kugira ngo agikoreshe gifite isuku.

Agasozi keza kitaruye, gateyeho ishyamba hari imodoka y'ibara ry'umweru, hari ivomo rifite amazi ava mu butaka, abana baje kuvoma bitwaje utujerekani, hari n'umumama w'umuzungukazi, uri kubafasha kuzamura amazi mu butaka.

Ababyeyi bateraniye kwa muganga mu cyumba cyagenewe kwigishirizwamo imbonezamirire bafite abana bakiri batoya baje kwigira kugira ngo babone uko bazajya babatekera indyo yuzuye nk'uko muganga yabibahuguriye.

Amahugurwa yo ku rwego rw'Igihugu yateganirijwe abaganga bakorera mu bigo bya Leta hirya no hino, aho bahugurirwa uburyo bwo gufata neza no kwita ku babagana.

Abaturage bari ku ivomo rusange ritanga amazi meza y'umwimerere afutse, iryo vomo rikaba rivomwaho hifashishijwe igiceri. Hari imashini ushyiramo igiceri ubundi amazi akabona ubufunguka. Reka dukoreshe amazi yo soko y'ubuzima.

Umwana w'umukobwa ugaragaza akanyamuneza ku maso kubera ko afite ubuzima buzira umuze. Aho leta yegereje abaturage amavomero ya kijyambere, afite amazi meza afutse.

Abaganga bafite uruhare runini mu kubungabunga ubuzima bw'abenegihugu. Aho bifashisha imiti y'amoko atandukanye kandi bakabikorana umutima ukunze mu buryo bw'ubunyamwuga.

Umwana uri ku ivomo rya kijyambere ritanga amazi meza afutse, ari kunywa amazi ateze n'indobo ari butwaremo ayo ajyana mu rugo mu nzu iri ku ruhande rw'aho rubine iri.

Umugore wicaye asutamye, afite ibido ari kuvomera, iyo bido ikaba iteretse mu ibase, aho akikijwe n'inzu ifite amabati ashaje, inyuma ye hakaba hari imyenda yanitse ku mugozi.

Ku mugezi wa kijyambere hahuriye abana baje kuvoma amazi y'isoko yujuje ubuziranenge. Bafite ibikoresho bitandukanye byo gutwaramo amazi.

Abana batoya b'abanyeshuri bari ku migezi ya kijyambere itanga amazi meza asukuye, barimo gutozwa kwiga gukaraba neza intoki mu gihe bavuye kuri tuwarete mbere yuko bagira icyo bafata cyo kurya.

Inama ubuyobozi bw'Igihugu, inzego zitandukanye bwagiranye n'abaturage babasobanurira gahunda y'iterambere ry'Igihugu mu miyoborere myiza y'abaturage.

Mu cyumba k'imwe mu nyubako zigezweho, harimo purafo n'idirishya ritanga urumuri, hakoraniyemo abajyanama b'ubuzima bari guhabwa amahugurwa.

Ababyeyi b'abagore bari mu cyumba, nyuma yo guhabwa amahugurwa no kwesa imihigo, bafashe akanya bacinya n'akadiho.

Nyuma yo guhabwa amahugurwa atandukanye, ku buryo bwo kwita ku barwayi no kwirinda indwara zo mu mutwe, hashyizweho umwanya wa morali, abantu bose barishimye, bari kuririmba, bakoma mu mashyi.

Dutoze abana isuku yo ku mubiri tunabaganirize ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe ndetse tunabasobanurire neza uburyo na bo bashobora kuzirinda mu rwego rwo guteganya ejo heza h'aba abana bacu.

Mu cyumba kigali cyateganijwe kwa muganga, hateraniye abakangurambaga b'ubuzima umubare ukabije ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe.

Amahugurwa yagenewe urubyiruko rushinzwe gufasha abaturage guhindura imyumvire ku bijyanye no kurwanya indwara zo mu mutwe, hafashwe ifoto y'urwibutso hamwe n'abayobozi batandukanye.

Umukobwa ufite akanyamuneza aho anezerewe ari guseka. Iki ni kimwe mu bimenyetso by'ubuzima bwo mu mutwe, aho bigaragara ko afite ubuzima buzira umuze. Duharanire guhorana ibyishimo kuko byongera iminsi yo kurama.

Umwana wikoreye amaboko ari kurira iruhande rwe hari umubyeyi wambaye ingutiya y'umutuku, na akaba afite n'inkwi mu ntoki ari kugenda iruhande rw'umwana.

Umugabo wicaye hasi, ufite ikibazo cyo mu mutwe, ari gutekereza kure. Ni byiza ko twita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe kuko na bo bakeneye kwitabwaho.

Umuntu w'umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Aricaye yegamye ku rukuta, ari gutekereza byinshi. Tubungabunge ubuzima bwo mu mutwe, twita ku bagize ikibazo cyo guhura n'ubuzima bwo mu mutwe. Na bo ni abantu. Bakeneye kwitabwaho.

Turwanye indwara y' agahinda gakabije .Kuko n'imwe mu mizi y' uburwayi bwo mu mutwe , mu ngeri zitandukanye ku bagabo n' abagore.

Isura y'umuntu ufite agahinda gakabije aho bigaragazwa n'amarira atemba ku matama, ijisho ryatukuye iminwa yumaganye, bigaragara ko ari kure mu mitekerereze. Ibyo bintu ni bibi tugomba kubyirinda kuko ni byo bitera indwara zo mu mutwe.

Twite ku buvuzi bw'indwara zo mu mutwe, twirinda ko umubare wakomeza kwiyongera, mu bihe nk'ibi ngibi isi iri kwiruka mu iterambere. Reka twese dufatanye, twubake, tubungabunge indwara zo mu mutwe n'imitekerereze.

Ikiganiro mbwirwaruhame cyatanzwe n'umugore, iruhande rwe hari umugabo, bari kuvuga ku bijyanye n'uburyo bwo kurwanya indwara zifata mu mutwe.

Umukecuru ari imbere y'inyubako, yateye amashyiga hanze aratetse, iruhande rwe hari igikombe gifite ibara ry'icyatsi, umufuniko w'isafuriya, inkoko iri gutora.

Amahugurwa yagenewe abantu bose hatitawe ku gitsina, ku bijyanye no kwiga uburyo twakwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Icyumba kigari cyo kwa muganga. Cyateraniyemo abafashamyumvire baturutse mu tugari no mu mirenge itandukanye, bari guhugurwa ku bijyanye n'uburyo bwo kurwanya indwara zo mu mutwe.

Umukangurambaga w'ubuzima nk'uko yabihuguriwe n'abaganga, amaze gupima umwana igipimo cy'umuriro, ari kwereka umubyeyi w'umwana uko bihagaze.

Umubyeyi w'umukecuru wambaye ijipo y'ubururu, hejuru agapira kijimye, witeze igitambaro, yicaye hagati y'abana b'abuzukuru, abahungu n'abakobwa.

Inyubako y'ikigo cyahariwe gukurikirana abafite uburwayi bwo mu mutwe. Ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibiti by'amoko atandukanye, bizana akayaga kugira ngo habe hari umwuka mwiza kandi wizewe.

Urugendo rukorwa n'abantu benshi ruvuga ku bijyanye no kurwanya ihohoterwa, n'inshingano ya buri umwe wese, witabiriwe n'inzego zitandukanye, harimo n'inzego zumutekano.

Umuntu w'umugabo wicaye ku gatebe k'urubaho, yicaye imbere y'abagore bane, harimo abafashamyumvire, bari kumuganiriza ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe.

Umugabo uri kwihaganyura akoresheje agakoresho kabugenewe mu kubungabunga ubwiza no kurinda kwangirika kw'amenyo.

Umugabo ufite agatambaro k'isuku ku rutugu, afite urudodo rwabugenewe rwifashishwa mu gukora isuku y'amenyo.

Ubu abaganga babiri b'abagabo bari iruhande rw'umudamu, bari kumuvura indwara z'amenyo aryamye ku gatanda k'abarwayi.

Turinde amenyo yacu, tuyafate neza. Twihanganyuza urudodo rwabugenewe. Mu rwego rwo gukomeza kubungabunga amenyo. Amenyo ni ingenzi. Bikwiye ko buri wese, yita ku menyo ye, kuko ari indiri y'indwara nyinshi.

Umugabo uri gukorera isuku ye amenyo yifashishije akadodo kabugenewe mu kwihaganyura, ni byiza ko twita ku isuku yo mu menyo.

Muganga yicaye ku gatebe, umurwayi aryamye ku gatanda k'abarwayi, muganga yamuritse mu kanwa, ari kumureba mu kanwa, areba uburwayi bw'amenyo afite mu kanwa.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe kwakira no gukorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, hifashishijwe ibyuma kabuhariwe bivura bikanakura amenyo.

Agakoresho keza gafite isuku, kabugenewe gakoreshwa mu gushyira amenyo yacu ku murongo, kugira ngo amenyo yacu abe ameze neza mu kanwa nk'uko byateganijwe.

Twite ku ndwara z'amenyo dukoresha uburoso buzima, twifashishije imiti myiza yujuje ubuziranenge yagenwe na muganga, bityo bizadufasha kugira amenyo akomeye kandi afite ubuzima buzira umuze.

Kwa muganga, icyumba bakiriramo abantu bafite ikibazo cy' amenyo. Hari intebe umurwayi yicararaho n' intebe muganga yicaraho ari kubura amenyo.

Abagore babiri, umwe yambaye agakote gatukura, imbere harimo agapira k'umukara ndetse na rinete, undi yambaye agakote k'ubururu, bafite amarisite mu ntoki, bari kureba ku rutonde uko imibare ihagaze ku bijyanye no kurwanya indwara z'amenyo.

Muganga ari kuvura umudamu indwara zo mu kanwa, yambaye linete zimufasha kureba neza mu kanwa, afite ibikoresho bikoreshwa mu kuvura amenyo.

Kwita ku menyo ni byiza, cyane cyane mu gihe tumaze kurya, twumva hari ibintu byasigaye mu menyo. Ni byiza ko dukoresha akadodo kabugenewe mu gukuramo ibyo bintu biba byafashe mu menyo. Ni bwo buryo bwiza butuma ishinya yacu itangirika.

Umuganga ari mu cyumba cy'ivuriro, harimo agatebe ko kwicazwaho na muganga, harimo igitanda umurwayi aryamaho ndetse n'imashini ireba mu maso y'umurwayi.

Mu buryo bwiza bwo kwita ku menyo mu gihe hari ikintu cyahagamye mu menyo yacu, biba byiza twifashishije utwihaganyuzo twabugenewe dufite isuku, kandi twujuje ubuziranenge, tubungabunge amenyo yacu.

Umuhanda utunganije, ruhurura itwikiriye, urukuta rwubakishije amabuye, ubusitani burimo ibiti by'ubwoko butandukanye, inyubako nziza y'icyerekezo igeretse kabiri ikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo.

Koza amenyo ni byiza, twite ku menyo yacu tuyoze igihe cyose tumaze kurya ndetse n'igihe tugiye kuryama tubanze twoza amenyo kugira ngo turwanye mikorobe zica amenyo.

Umugabo ari kwigisha umwana mutoya uburyo buboneye bwo gusukura amenyo dukoresheje urudodo, kuko ari bwo buryo bwiza dushobora gukura ibintu byafashe mu menyo tudakomerekeje ishinya. Tubungabuge amenyo yacu.

Ubuvuzi bw'amenyo bukorerwa kwa muganga, aho umurwayi yitabwaho na muganga wabyigiye, afite ibikoresho by'ubuvuzi byabugenewe.

Umwana aryamye ku gitanda cyo kwa muganga, bari kumuvura amenyo, muganga afite ibikoresho byabugenewe kandi arabikorana isuku yambara uturindantoki.

Imiryango itandukanye igizwe n'abagabo n'abagore, abasaza bakuze ndetse baje muri resitora gufata icyo kurya, ariko bagamije kugira ngo bongere banafate umwanya wo kuganira bisanzuye.

Umusaza yicaye mu kibafu, bari kumukorera massage y'umutwe, mu rwego rwo kugira ngo imitsi yongere ikomeze kugendesha amaraso neza ajya mu mutwe.

Abagore batanu b'abacuruzi, bafite imbere yabo intebo zirimo inyanya, inyuma yaho hari utumeza dupanzeho imbuto z'amoko atandukanye.

Umukecuru afite isahani iriho ifunguro ry'ubwoko butandukanye, harimo ibitera imbaraga, ibikomeza amagufa, ibinyamavuta atagira ingaruka ku mubiri, ni ifunguro mu by'ukuri ryujuje ubuziranenge.

Umusaza ari kwa muganga ari kumwe na muganga amushyizeho igipimo kugira ngo arebe uko umutima we utera, barimo baraganira akanyamuneza kabuzuye ku maso biragaragara umusaza ari guseka na muganga kandi nawe umwitaho aranezerewe.

Abantu bakuze, abakecuru n'abasaza, bitabiriye imyitozo ngororamubiri, bose barishimye bafite ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukecuru ari hagati y'umusore n'umukobwa, ari kubategurira ndetse anabagaburira indyo yuzuye igizwe n'umugati, imboga rwatsi ndetse n'imbuto.

Umuryango wishimye isoko y'ubuzima buzira umuze, aho ababyeyi n'abana, umukecuru n'umusaza, abahungu n'abakobwa, bahorana akanyamuneza bikagaragara no ku maso.

Umukobwa w'umuganga ari kurebana n'umukecuru mu maso bishimye, umukecuru aho akanyamuneza kamusaze. Ni byiza ko twita ku bakuze, ababyeyi bacu tubahe ibyishimo mu minsi basigaje ku isi.

Umukobwa uteze igitambaro cy'umukara yicaye iruhande rw'umugabo ukuze uri mu kagare k'abafite ubumuga, bariko baraganira bahuje urugwiro, ari kumuhanura nk'umubyeyi uri iruhande rwe.

Umusaza ari mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu, yicaye iruhande rw'umuganga aho bahuje urugwiro. Umusaza yaraje kureba ibisubizo by'uburwayi bamupimye, none muganga ari kumusobanurira neza, icyateye indwara n'uburyo yakomeza kwirinda. Tubungabunge amagara yacu, dusanga abaganga badufasha.

Abantu bakuru umusaza n'umukecuru bicaye bishimye bari kuganira, umusaza arikoza inzara. Twite ku isuku y'intoki kuko ni isoko y'ubuzima.

Abagabo babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri mu rwego rwo kurwanya ubusaza, iruhande hari ubusitani burimo ibiti bitanga akayaga keza ndetse n'agasanduku kagenewe kujugunywamo imyanda kugira ngo dukomeze tubungabunge ibidukikije.

Umuryango wishimye, ugizwe n'umupapa n'umwana mutoya w'umukobwa usutse imisatsi, ari kumwigisha gukina umupira wa Basket.

Ku gicamunsi umuyobozi w'Umudugudu, yakoranye n'abaturage ayobora, bicaye munsi y'igiti aho bari kwigira hamwe ku bijyanye n'uburyo bahosha amakimbirane aba mu miryango.

Ababyeyi b'abagore harimo n'abakecuru bakuze, bari mu murima w'icyayi bari gusoroma icyayi baganira kandi bishimye.

Umukecuru ari imbere ya muganga, afite ikirahure cy'amazi. Muganga ari kumusobanurira neza uburyo azajya anywa iyo miti kandi akoresheje amazi meza asukuye.

Umusaza ukuze, uri kwigishwa gukoresha imbago n'uburyo yazigenderamo nyuma y'igihe kirekire amaze arwaye ari ku gitanda, aho ari kubifashwamo n'umuganga w'umudamu ari kumwerekera uko yabikora adahungabanyije ingingo ze.

Umugabo ukuze, uri kumwe n'umusore ukiri mutoya, aho bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, bari gufata icyayi cya mu gitondo, anamuganiriza amwereka inkuru zamusekeje, mu gitabo bafite imbere yabo.

Umukecuru n'umusaza bafata umwanya bakaganira ku bijyanye n'imiryango, bavugana n'abuzukuru babo ndetse bakanasangira amazi meza afutse n'imiti ikenerwa mu buzima.

Mu rwego rwo kurwanya indwara no guharanira gukomeza kubaho mu buzima buzira umuze dukangurirwa gukora siporo. Aho buri wese afite uburenganzira hatitawe ku myaka n'abakuru na bo bashobora gukora imyitozo ngororamubiri.

Imyitozo ngororamubiri ikorewe ahantu hari isuku ni myiza kuko idufasha kwita ku magara yacu bikaturinda kurwaragurika indwara za hato na hato.

Umukecuru n'umusaza baricaye bafite agapapuro kariho uburyo, umuti bafite imbere yabo ukoreshwa, kugira ngo utagira ibyo wangiriza mu buzima.

Umusaza n'umukecuru bicaye muri sare, bafite impapuro bari gusoma, muri sare irimo intebe, ameza ifite n'amadirishya yinjiza akayaga.

Abaganga bari kumwe n'abakoranabushake, bafite umurwayi uryamishijwe ku gatanda bateruriraho abarwayi, bari kumufasha kubona ubuvuzi bw'ibanze.

Umunsi Mpuzamahanga wahariwe umugore mu buyobozi, aho tugomba gufatanya hamwe na basaza bacu, na mushiki wacu na we, akaba umwe mu bantu bayobora.

Umuntu wambaye ishati y'ubururu, agapfukamunwa, yicaye imbere ya muganga. Ari kumutera urukingo rwa kovide cumi n'icyenda.

Uburyo bwo kwirinda kanseri. Kwirinda kugira ibiro byinshi bituruka ku mubyibuho ukabije, kuko ari yo nzira ituma abantu bashobora kurwara kanseri nyinshi zitandukanye.

Uburyo bwiza bwo kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo gukoresha agakingirizo mu gihe cyose byakunaniye kwifata. Dukoreshe agakingirizo bizadufasha kuramba.

ICyumba kigari giteraniyemo abayobozi bo ku nzego zitandukanye, bari kuvuga ku bijyanye n'uburyo bwo kurwanya indwara zikomeje kwibasira abantu muri rusange, aho imibare ikomeje kwiyongera, bigatera impungenge igihugu.

Icyumba kirimo abaganga batanu bari gutegura ibikoresho bari bwifashishe mu kuvura umurwayi babikorana isuku kandi bitonze neza.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi. Bose bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya covid. Muganga ari gutera urushinge rwo gukingira uburwayi bwa covid umurwayi; ibyo bikaba byaratewe inkunga na RBC ndetse na Guverinoma y'u Rwanda.

Umugore yicaye ku ntebe yambaye agapfukamunwa kamurinda kwandura indwara z'ibyorezo, bari kumutera urukingo rwa covid cumi n'icyenda.

Kwita ku barwayi ba kanseri n'imwe muri gahunda leta y'u Rwanda ishyira imbere mu rwego rwo kubungabunga no kwita ku magara y'abahuye n'ikibazo cyo kwandura iyo rwara.

Dukangurirwa kugira umuco mwiza wo gukomeza kwirinda, cyane cyane mu bihe bigoye hari indwara z'inzaduka z'ibyorezo mu gihugu.

Ikinyamakuru kiriho ifoto y'umukecuru ukikiye umwana, iruhande rwe hari abanyeshuri benshi bambaye impuzankano zigeretseho karuvati.

Aha ngaha ni icyumweru cy'ubukangurambaga mu kurwanya indwara zitandukanye, aho abaganga bahuye n'abaturage, bakabasuzuma, bakanabapima indwara ndetse bakanabagira inama z'uburyo bakomeza kubungabunga ubuzima bwabo, duharanire kugira amagara mazima.

Inama y'igihugu ishinzwe gutegura umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya diyabete indwara imaze kuba icyorezo aho itangiye no kwibasira abana bakiri batoya ndetse no mu bakuru ikaba ikomeje kwiyongera.

Abaganga benshi batandukanye bari ku murwayi uryamye ku gatanda k'abarwayi, bari kumuvura indwara z'amenyo. Twite ku menyo yacu twirinda indwara zitandukanye.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibitanda, muri ibyo bitanda bibiri biryamyeho abarwayi bariyoroshe. Ni icyumba gifite amadirishya atanga urumuri.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imashini z'amoko atandukanye, zifashishwa mu gupima, no kuvura, indwara z'amaso.

Igishushanyo mbonera cy'inyubako y'ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, kiragaragaza ubusitani buriho ibiti bizana akayaga.

Icyumba cyiza kandi kigari cy'isuzumiro, harimo agatanda umurwayi aryamaho ndetse n'ibyuma byifashishwa mu kureba neza ikibazo cyaba cyateje uburwayi.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo umukecuru uryamye ku gitanda cy'abarwayi. Iruhande rwe hari imashini zabugenewe zimufasha guhumeka.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe kubikwamo ibyuma kabuhariwe bishyirwamo amaraso n'ibindi bikoresho bikoreshwa n'abaganga mu rwego rwo kubirinda ko byahura na mikorobe zikabyanduza.

Inyubako nziza kandi ngari, ikorerwamo ubuvuzi bw'indwara zose. Imbere yaho hahagaze abantu, bari kureba imiterere y'aho hantu n'uko hajyanye n'inyubako ihari.

Mu nyubako zigezweho za kijyambere zagenewe gukorerwamo ubuvuzi, hakenerwamo isuku ndetse n'umutekano usesuye ku bagana ivuriro ndetse n'abakozi bakoreramo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini yifashishwa n'abaganga iyo bari gupima umurwayi, umurwayi ayiryamaho bakareba ikibazo yaba afite mu mutwe.

Umubyeyi ukikiye akana k'agahinja, kambaye utwenda tw'umweru n'akagofero k'umweru karimo utubara tw'umukara, ari kumwe n'umugangakazi wambaye akarindamutwe, agapfukamunwa ndetse n'amarinete.

Icyumba cyo kwa muganga cyahariwe gusuzumirwamo indwara z'amoko atandukanye. Harimo agatanda umurwayi aryamaho, iruhande hari imashini igaragaza ibisubizo by'uburwayi umuntu afite.

Kubyarira kwa muganga bituma umubyeyi agira akanyamuneza, akanezezwa no guterura icyo kibondo kubera ko aba yitaweho n'abaganga babikorera mu nyubako nziza yabugenewe.

Inyubako nziza ya kijyambere ifite ubusitani bwiza bugari kandi buboneye, iyi nyubako ikorerwamo ubuvuzi bw'amoko atandukanye. Twite ku magara yacu tujya kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga, ngari irimo ibitanda byinshi byifashishwa n'abarwayi, harimo n'ibyuma bifasha kureba uko umutima utera.

Ikigo cy'abafureri b'impuhwe, cyagenewe kwakira no gukurikirana abantu bafite ikibazo cy'indwara zo mu mutwe.

Icyumba kabuhariwe cyagenewe kubika amaraso yongerwa abarwayi bafite ikibazo cy'amaraso makeya, ni icyumba gifite isuku, gifite umwuka uhagije, kandi kirimo ibyuma byagenewe gufata neza ayo maraso.

Umukecuru witeze igitambaro, wambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo, ubururu, hashushanyijeho ikirabo, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda ye y'ubururu afite n'akumvirizo k'umutima bariho baraganira amubwira uko ubuzima bumeze.

Icyumba cyo kwa muganga kitarimo umurwayi, harimo igitanda gifite amapine, harimo puberi yagenewe gushyirwamo imyanda n'ibikoresho byamaze gukoreshwa, aho umuntu akarabira intoki, aho yumukiriza intoki ndetse n'igipapuro abasha gukoresha.

Inyubako nziza ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, mu cyumba kirimo abaganga, aho bapimira indwara z'amoko atandukanye.

Icyumba kigari cyo kwa muganga cyahariwe abana. Harimo agatanda karyamamo umwana, iruhande hakaba agatebe kicarwaho n'umurezi, icyo cyumba gifite aho bakarabira intoki, mu rwego rwo kwita ku isuku ndetse n'icyuma cyinjiza akayaga keza.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, kirimo intebe yateganirijwe abarwayi n'indi ntebe ntoya ifite ibara ry'umukara, umuganga yicaraho ari gukurikirana umurwayi.

Turwanye indwara z'amaso, tugana abaganga kabuhariwe, batuvure indwara z'amaso kandi baduhe indorerwamo z'amaso mu gihe bikenewe. Reka twese tugane ubuvuzi.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi, kivura indwara zose, gifite abaganga kabuhariwe, bavura kandi neza, gikora amasaha makumyabiri nane iminsi irindwi y'icyumweru.

Inyubako yubakanye ubuhanga ya kijyambere ikorerwamo ubuvuzi, bavura indwara z'amoko atandukanye, kandi bita ku murwayi kugeza amaze kugira ubuzima bumeze neza.

Inyubako ya kijyambere yahariwe gukorerwamo imirimo y'ubucuruzi. Harimo farumasi irimo imiti y'ubwoko butandukanye ivura indwara nyinshi.

Icyumba cyo kwa muganga cyahariwe kurwarirwamo n'abana, kirimo amashusho atandukanye akundwa n'abana, ndetse na televiziyo iri ku rukuta abana bareberaho firimi z'abana.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi bifite isuku bishashe neza, iruhande rwabyo hari udutije bamanikaho serumu mu gihe hariho umurwayi ukeneye iyo serumu.

Mu cyumba cyo kwa muganga gifite urumuri ruhagije, hari umurwayi w'umugore uryamye ku gatanda k'abarwayi, iruhande rwe hari imashini ziri kumufasha ku mwongerera amaraso n'imyunyu ngugu ikenewe mu mubiri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri biryamwaho n'abarwayi, hagati y'ibyo bitanda hateretse akameza muganga yifashisha aterekaho imiti ari gukoresha n'agatebe kicarwaho n'umurwaza.

Ivuriro ryigenga rya kijyambere ryita ku baturage b'ingeri zose; by'umwihariko rikibanda ku indwara z'abana batoya.

Inyubako y'ikitegererezo y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, ifite ubusitani bugari kandi bwiza butanga akayaga, hakoze umuhanda mwiza urinda ivumbi.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe gupimirwamo indwara zitandukanye, harimo icyuma umurwayi aryamaho mu gihe muganga ari kumupima uburwayi.

Inyubako ya Kaminuza nkuru y'u Rwanda, ifite ubusitani bwiza burimo ibiti bitanga akayaga n'amahumbezi, hari abantu babiri bahagaze imbere y'iyo nyubako b'abagabo.

Icyumba cyo kwa muganga cyahariwe gukorerwamo ubushakashatsi bw'indwara zitandukanye. Ni icyumba kigizwe n'imashini zifashishwa n'abaganga kandi gifite umucyo uhagije.

Inyubako nziza, ngari, igeretse, y'ibitaro by'akarere, ikoreramo abaganga b'abasipesiyarisite bavura indwara zitandukanye z'abana, iz'abamama, iz'amenyo ndetse n'ubundi burwayi bwose buterwa n'indwara z'imitekerereze.

Inyubako yo kwa muganga mu cyumba cyiza kigari gifite isuku, ahagenewe kwakira umurwayi, bakamubaza umuganga ashaka ko amukurikirana.

Icyumba kigari, cyagenewe gukorerwamo siporo. Harimo imashini zifashishwa mu gukora siporo, z'amoko atandukanye. Harimo amagare banyonga, harimo ibyo uryamaho uri guterura kugira ngo ukomeze imitsi y'amaboko, ndetse n'ibindi bitandukanye. Hasa neza, haratuje, nta kibazo hateje.

Abantu benshi bari ku murongo biteguye gusanga ushinzwe kubakira umwe umwe, aho bari muri sale irimo intebe, ameza n'umuntu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga.

Icyumba cyo kwa muganga basuzumiramo indwara zitandukanye, harimo agatanda umurwaya aryamaho, imashini zifashishwa na muganga ndetse n'isaha iri ku rukuta, mu gihe hari kureba iminota umurwayi akoresheje ku mashini bagenderaho.

Icyumba cyo kwa muganga hari umuganga, ari gutegura imashini aho bagiye kuryamisha umuntu kugira ngo bamucishe mu cyuma barebe indwara afite mu mubiri.

Icyumba kigari cyateganyirijwe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo amagare banyonga bahagaze hamwe, mu rwego rwo kurwanya indwara z'imitsi, gusaza na za rubaga impande.

Inyubako nziza ya kijyambere, imbere yayo haparitse imodoka. Muri iyi nyubako harimo farumasi icuruza imiti ikoze mu bimera. Imiti yujuje ubuziranenge ivura indwara z'amoko atandukanye.

Inyubako nziza ya kijyambere, ifite ubusitani bwiza, ikorerwamo ubuvuzi bujyanye no kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Icyumba kigari cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibyuma byifashishwa mu kuzamura ndetse no gukomeza imitsi, harimo tapi y'umukara ifasha abantu gukora siporo kandi bizeye isuku yo ku mubiri wabo.

Umwana w'umukobwa yicaye imbere ya muganga. Amuhereje ukuboko kugira ngo amushyireho igipimo muganga yumve uko umutima utera.

Icyumba kigari kirimo ibyuma byinshi n'ibikoresho byifashishwa mu kubaka umubiri mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bwacu mu gihe kirekire kandi gihoraho.

Inyubako y'ibitaro bya Kabgayi yujuje ubuziranenge, ifite ubusitani butanga akayaga keza, yakira abarwayi b'ingeri zose, ivura indwara z'ubwoko butandukanye.

Inyubako y'ibitaro, ikorerwamo n'umushinga ushinzwe kurwanya indwara zifata amaso. Inyubako nziza kandi ya kijyambere igezweho.

Inyubako nziza ya kijyambere y'ibitaro by'akarere ka Shyira, hatangwa serivisi zitandukanye, kuvura abana, kuvura ababyeyi, ndetse n'abarundi bose bafite ikibazo cy'uburwayi, mugane ibitaro bya kijyambere bya Shyira maze tugire ubuzima buzira umuze.

Umuntu wicaye yamanuye ukuboko kw'ishati muganga ari kumutera agashinge, ari kumukingira indwara zitandukanye z'amoko menshi.

Icyumba cyo kwa muganga harimo abafashamyumvire, bari kumwe n'ababyeyi b'ingeri zose, bari kubaganiriza uburyo bwo kwirinda indwara zifata abagore.

Udufuka twabugenewe turimo amaraso y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu kongerera abarwayi bafite ikibazo cy'amaraso makeya. Ni byiza ko buri umwe wese yitabira igikorwa cyo gutanga amaraso. Ubugiraneza ni kimwe mu bintu bidafite ikiguzi. Byaba byiza buri wese abyitabiriye, agatanga amaraso nawe agafasha.

Inyubako nziza ya kijyambere, ikikijwe n'ubusitani burimo ibiti by'amoko atandukanye, bifasha kuzana umwuka mwiza wo guhumeka.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo y'umukara n'inkweto za Nike, zagenewe kwambarwa n'umuntu uri gukora siporo, ari gukora siporo zikomeza imikaya yo mu matako ndetse no gukomeza urutirigongo.

Abantu bari gukina umukino wa jido. Ni byiza ko buri wese yaba umusaza cyangwa umukecuru, umwana muto ndetse n'ingimbi twese twitabira siporo. Kuko siporo ni nziza ku mubiri w'umuntu, ni kimwe mu bidufasha kugira amagara mazima.

Kwicara cyane mu biro, bitera indwara zitandukanye zifata imikaya, ni byiza ko rero tugomba kurwanya izo ndwara dukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe kuvurirwamo indwara z'amenyo, harimo: intebe muganga yicaraho, intebe umurwayi yicaraho, agatanda umurwayi aryamaho, icyuma kireba mu kanwa ndetse na mudasobwa muganga yifashisha.

Imyitozo ni ngombwa mu buzima. Kora imyitozo ngororamubiri, wubake kandi usigasire ubudahangarwa bw'umubiri wawe.

Umugabo wicaye ari kunywa amazi, yari ari gukora siporo none mu kanya ke keza ko kuruhuka afashe umwanzuro wo kunywa amazi kuko amazi ni ubuzima.

Yoga ni umwe mu myitozo ngororamubiri ushobora kwifashisha mu kurwanya indwara zo gusaza, hagakenerwa n'amazi yo kunywa kuko umubiri wacu ukenera amazi mu gihe cya buri munsi.

Mu rwego rwo gukora imyitozo ngororamubiri, twifashishije agapima uko umutima utera, umupira ukinishwa amaguru, umupira ukinishwa amaboko wa Basket n'umupira wa Rugby ndetse n'indi mipira itandukanye. Ni byiza ko tugira umuco wo gukora siporo.

Kwita ku buzima hifashishijwe uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri, witwaje ekuteri, imyenda ya siporo, agasengeri, ikabutura, n'inkweto zabugenewe.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura k'umukara, agapira k'umukara, amasogisi y'umweru n'inkweto zagenewe kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugore ari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi, yambaye ipantaro n'agapira bitukura, inyuma ye hari agatebe gakoze mu mbaho n'izindi ntebe ebyiri zikoze muri prasitike zifite ibara ry'umukara.

Abantu bari mu kibuga, bari bari gukina umupira, umwe muri bo agira ikibazo cy'u kuguru, bagenzi be baza kumufasha bamuha ubuvuzi bw'ibanze, kubera imvune yari agize.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, yafunze karuvati, afite ku rutugu agakoresho gakoreshwa mu kumva itera ry'umutima, mu biganza bye afitemo umupira wa rugubi ufite ibara ryijimye.

Aka ni agatanda kifashishwa mu gihe cyo guterura umurwayi, cyane cyane ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, mu gihe hari ugize ikibazo bamuryamisha kuri aka gatanda, bakamushyira ku ruhande, aho ahabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, bifunganye isuku, byujuje ubuziranenge, byifashishwa n'abaganga mu gihe bari kwita ku murwayi.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibitanda byinshi biriho abarwayi, hari n'imashini yifashishwa mu kuvura umurwayi hakoreshejwe iyakure.

Abagabo babiri bari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, bari gufashanya mu gukora imyitozo, twite ku buzima bwacu twubaka umubiri dukoze imyitozo mu rwego rwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri wacu, siporo n'isoko y'ubuzima.

Umukobwa wambaye imyenda yabugenewe, yifashishwa mu gihe cyo gukora imyitozo ngororamubiri, arihese akora kumanano, mu rwego rwo kurambura umugongo.

Umugabo ufite umupira mu ntoki, iruhande rwe hari umugore uri kugendera ku mbago. Bari kuganira ku cyiza cyo gukora imyitozo ngororamubiri niyo waba ufite ubumuga.

Umukobwa wambaye imyenda y'ubururu yagenewe gukora siporo, ari gukora siporo zo kugorora umugongo, dukore siporo kuko ni isoko y'ubuzima buzira umuze.

Ibikapu bitukura bitatu, birimo ibikoresho by'ibanze, byifashishwa mu buvuzi, harimo bande, imakasi n'utundi dukoresho tw'ubwoko butandukanye.

Umukobwa wicaye hasi yambaye imyenda ya siporo, aho ari gukora siporo igorora umugongo. Agerageza kumanuka yitonze akiheta agafata ku mano mu gihe runaka.

Umugabo amaze gukora siporo. Ari kunywa amazi, mu rwego rwo gusigasira amagara. Amazi ni meza, igihe cyose umaze gukora, imyitozo ngororamubiri.

Mu rwego rwo kwita ku buzima bwacu, tugomba gukora imyitozo ngororamubiri kandi tukagaburira umubiri wacu ibyo kurya by'amoko atandukanye, byujuje ubuziranenge.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri; yamanutse afata ku mano, ukuboko kundi yagushyize mu mugongo. Gukora siporo ni byiza, kuko bituma umubiri wacu umera neza.

Umukobwa wicaye asobekeranyije amaguru, ari gukora siporo, ahantu heza hafite isuku afite ibikoresho byifashisha mu kunra imitsi y'amaboko, ndetse imbere ye hari na kopiyuta areberamo urugero rw'imyitozo ari gukora.

Bimwe mu byifashishwa cyangwa byunganira mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, harimo amazi meza afutse yo kunywa, imbuto z'ubwoko butandukanye, metero yo gupima uburebure cyangwa se ubwiyongere bw'umubiri ndetse n'ibindi byuma bitandukanye.

Uburyo bwiza bwo gukora imyitozo ngororamubiri, ni ukuyikora uri kumwe na muganga cyangwa se undi muntu wese wabihuguriwe uzi neza uburyo bikorwa n'uburyo buri siporo ikora ku ngingo runaka.

Gukora imyitozo ngororamubiri na bwo ni bumwe mu buvuzi budufasha kugira amagara mazima. Iyo tumaze gukora imyitozo ngororamubiri biba byiza ko twakongera gufata ibyongera imbaraga mu mubiri, harimo imbuto z'amoko atandukanye.

Abantu b'abagabo babiri bari mu cyumba cy'icyitegererezo cyahariwe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri. Bafite imipira ibiri ya rugby. umwe ari gutoza mugenzi we uburyo bakina uwo mupira anamusobanurira amategeko agenga uwo mukino.

Mu rwego rwo kubungabunga amagara yacu dukora imyitozo ngororamubiri, hari ibintu by'ingenzi bikenerwa, kumenya ibiro byawe wipima ku munzani, kwambara inkweto zabugenewe, agatapi gakorerwaho siporo ndetse no gufata ibyo kurya by'amoko atandukanye.

Umubyeyi akikiye umwana mutoya, uwo mwana anasamye, muganga yafashe icyuma bifashisha mu kureba mu kanwa, ari kureba mu kanwa k'umwana. Iruhande hahagaze umugabo n'umugore, bambaye udupfukamunwa.

Ni iby'ingenzi mubu buzima kumenya ibikoresho by'ibanze mu buvuzi igihe cyose uhuye n'impanuka itunguranye, hakenerwa pomade, hakenerwa umukasi, hakenerwa udupfuko, hakenerwa uturindantoki, hagakenerwa n'igitambaro abenshi bamenyereye ku izina rya bande.

Umugabo wicaye ku gitanda cy'abarwayi kwa muganga, yagize ikibazo cyo gutsikira kwirenge none muganga ari kumufasha, amuzirikiraho igitambaro cyabugenewe.

Umugabo wagize ikibazo cy'ukuboko igihe yari gukora imyitozo ngororamubiri, afashe ahari kumurya ari kuhakanda akoresheje agatambaro k'ubururu gafite isuku.

Igikapu gifite ibara ritukura, cyagenewe gushyirwamo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, harimo bandege, pomade n'indi miti yose y'ingenzi mu buvuzi bw'ibanze.

Mu rwego rwo kwita ku buzima hifashishijwe uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri, hari ibikoresho byinshi by'ubwoko butandukanye bashobora kwifashisha mu gukora uwo mwitozo.

Icyumba kirimo imiti ifunze neza kandi yujuje ubuziranenge. Imiti ikozwe mu bimera yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Aka ni agatanda kifashishwa mu gihe cyo guterura umurwayi ahantu habaye impanuka, cyangwa n'ahandi habasha guhurira abantu benshi.

Umuntu wicaye ku gitanda cyo kwa muganga, yagize ikibazo ku kirenge, muganga ari kumufasha amupfukira ahantu hagize ikibazo, kugira ngo yongere akomeze ubuzima mu buryo busanzwe.

Abana bitabiriye amarushanwa ngororamubiri, muri rusange ni byiza ko duha abana umuco wo gukunda siporo kuko ari ingenzi mu bijyanye no kubaka umubiri ndetse no kuzamura imitekerereze y'umwana akiri muto.

Umuntu ufite ikibazo mu ivi, afashe agatambaro keza gasukuye k'ubururu gakonje ari gukanda kugira ngo uburibwe bugabanuke nawe yongere yumve ameze neza.

Imbuto z'ubwoko butandukanye zifite intungamubiri zihagije harimo amagi, inkeri, imineke foromaje, amagi, sezame, inyama, puwavuro ndetse biba byiza iyo twubatse umubiri wacu dukora siporo.

Gukora imyitozo ngororamubiri buri munsi igihe gihoraho, ni bimwe mu rukingo ruturinda kurwaragurika indwara za hato na hato, ziterwa no kugabanuka kw'imbaraga z'abasirikare b'umubiri.

Inyubako yo kwa muganga ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, harimo imashini ipima indwara z'amoko menshi, n'agatebe ka muganga yicaraho igihe ari imbere y'umurwayi amukuri.

Umugabo umaze gukora siporo n'imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi meza, mu rwego rwo kwirinda ko umubiri we wagira umwuma. Tunywe amazi ni isoko y'ubuzima.

Abantu babiri bari bari gukora imyitozo ngororamubiri, umwe agira ikibazo hagati mu ngingo, mu iteranyirizo ry'ukuguru n'ikirenge, mugenzi we ari kumufasha amuzirikiraho bandeji.

Agasanduku gafite ibara ritukura, karimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, aribyo imakasi, ibipfuko, bande ndetse na pomade.

Umuti ufunze mu gacupa ukozwe mu bimera, uvura neza kandi urizewe, uvura indwara z'amoko atandukanye, harimo ubugendakanwa ,kubabara k'umugongo, kuribwa k'umutwe udakira, ndetse n'izindi ndwara z'amoko menshi.

Ikimera cyifashishwa mu gukora imiti ikoreshwa n'abaganga bakora ubuvuzi bwa gakondo. Iki kimera kivura indwara z'amoko atandukanye harimo uburagaza, kubabara kw'imitsi, kuvura kw'amaraso ndetse n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye.

Ibinini bikoze mu bimera, byifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye. Ni byiza gukoresha iyi miti, kuko yujuje ubuziranenge.

Ibinini bivura indwara z'amoko atandukanye, bikozwe mu bimera by'ibara ry'icyatsi, biteguranywe ubuhanga kandi birizewe.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi cyifashishwa mu buvuzi gakondo aho kivura indwara z'amoko menshi atandukanye harimo ifumbi y' amenyo, kubabara imitsi, kuribwa mu nda ndetse na rubagimpande.

Agacupa karimo umuti ukoze mu bimera, imiti yifashishwa n'abaganga gakondo mu kuvura indwara z'amoko atandukanye. Mureke twivuze kandi tugire ubuzima buzira umuze!

Umuntu ari mu murima uhinzemo ibimera bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Imiti ifunze neza mu ducupa dufite ingano itandukanye, ni imiti ikozwe mu gikakarubamba, imiti ivura indwara z'amoko atandukanye.

Mu kubungabunga ubuzima bwacu neza dukoreshe imiti yujuje ubuziranenge itangwa n'abaganga bemewe babifitiye uburenganzira, ni bwo buryo bwo kwita ku buzima.

Umuti mwiza ukozwe mu gikakarubamba, ni umuti ufunze neza, umuti wizewe, umuti wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, umuti wujuje ubuziranenge, tuwukoreshe kandi neza.

Igikakarubanda ni kimwe mu bimera bifite akamaro, gikoreshwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye, iyo giteguwe kigateguranwa ubuhanga kandi kigategurwa n'umuntu wabyize, ni byiza ko twita ku gikaka rubamba.

Igihe cyose wumva utameze neza gana abaganga baguhe ibinini byabugenewe bitewe n'indwara urwaye, ibyo bizagufasha kwita ku magara yawe ureke kurembera mu rugo kandi iterambere ryawe urigereho nta mbogamizi.

Twite kandi tubungabunge urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko twite ku bimera kuko ari bimwe mu bidufasha kugira ubuzima bwiza, bikorwamo imiti kandi bidufasha kugira umwuka mwiza duhumeka wa ogisijene. Tubibungabunge twirinda kubyangiza.

Imiti ifunze neza mu ducupa tw'ibigero bitandukanye twujuje ubuziranenge, ikoreshwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Imiti myiza ifunze neza yujuje ubuziranenge, ikoreshwa mu gihe cyo kugabanya ibiro n'umubyibuho ukabije. Imiti yujuje ubuziranenge kandi yemejwe na muganga.

Ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye. Harimo kugira amaraso make mu mubiri, kuribwa kw'amenyo, kubabara k'umutwe ndetse n'izindi ndwara z'amoko atandukanye.

Imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, yujuje ubuziranenge. Ifunze mu macupa meza, acyeye, afite isuku. Yifashishwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye.

Ibi bimera byifashishwa mu gukora imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo. Iyo miti tuyifashisha tuvura indwara zitandukanye, harimo asima, igituntu, umwijima ndetse n'impyiko.

Imiti y'amoko menshi atandukanye ikozwe mu bimera yifashishwa mu kuvura no kurinda indwara z'amenyo ziterwa na bagiteri zitandukanye zituruka mu byo turya.

Ikimera cyifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara z'amoko atandukanye, harimo ifumbi, kuvura kw'amaraso, kubabara kw'imitsi ndetse no kurwara kw'amenyo.

Imiti gakondo, ikoranwe ubuhanga, ifunze neza, yujuje ubuziranenge, yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Ibimera byifashishwa mu buvuzi gakondo. Bikorwamo imiti y'amoko atandukanye, ivura indwara nyinshi z'ubwoko butandukanye.

Agacupa gafunze neza karimo imiti ikoze mu kimera, yifashishwa mu kuvura ibijyanye n'indwara z'amaso, uyu muti urizewe kandi wujuje ubuziranenge.

Imiti ikozwe mu gikakarubamba yifashishwa mu kurinda indwara z'amenyo. Iyo miti yujuje ubuziranenge, irinda amenyo kuvungagurika, ikarinda amenyo kuzaho ingese cyangwa gusa n'umuhondo kandi ni myiza kuri buri wese.

Ikimera gitoshye, gifite ibara ry'icyatsi, iki kimera cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo ifumbi, uburagaza ndetse kikanifashishwa mu gukoreshwa mu buvuzi gakondo, aho kivura indwara z'amoko atandukanye.

Itende ni kimwe mu mbuto nziza zifitiye akamaro umubiri wacu. Rifasha ubwonko gukora neza, rigaha amaraso yacu gutembera neza mu mubiri, ryongera oxygen mu maraso ndetse rigafasha no kutumva amavunane igihe cyose unaniwe.

Igikoresho kifashishwa mu gusekura imiti ya gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, hari n'icupa ryabugenewe rifite isuku, riri iruhande rw'isekuru. Turwanye indwara zadufata izo ari zo zose, twitabira gukoresha imiti ikozwe mu bimera.

Uburyo bwiza, bwo gutegura imiti gakondo, hifashishijwe ibikoresho byabugenewe, harimo isekuru, umuhini ndetse n'ikiyiko upimiraho ingano y'umuti ukeneye gusekura.

Ibimera by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo aho bivura indwara z'amoko atandukanye harimo ubugumba, kutajya mu mihango neza, uburemba ndetse n'ibindi n'ibindi.

Isekuru ya gakondo yifashishwa mu gusekura ibiribwa, imiti, ikoreshwa igihe udafite uburyo bwo gukoresha ibya kizungu.

Ubusitani bwa kijyambere buhingwamo imiti ya gakondo aho buri muti haba hari icyapa kigaragaza umuti uko witwa, icyo uvura n'uburyo ukoreshwa.

Imiti iri mu tubido n'amacupa bifunze neza, iyo miti ikozwe mu gikakarubamba yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye, iyo miti yujuje ubuziranenge kandi irizewe.

Ikimera kirandaranda gifite ibibabi by'icyatsi n'indabo z'umutuku wijimye imbere harimo irindi bara ry'umuhondo n'ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye tukibungabunge tucyiteho.

Imiti y'ibinini yizewe kandi yujuje ubuziranenge, ikozwe mu bimera dusanga hirya no hino mu gihugu. Ikora neza, ivura indwara zitandukanye z'amoko menshi.

Icupa rifunze neza ririmo umuti w'umuravumba, umuti wifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye harimo umutwe, kuribwa kw'amenyo ndetse n'izindi ndwara z'ubwoko bwinshi.

Umurima munini cyane w'icyayi urimo abakozi bane bari gusarura, buri wese yitaye murimo we akora kukazi kamuzanye.

Amacupa y'ibigero bitandukanye afunze neza, afungiyemo imiti ikozwe mu bimera byifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Uburyo bwiza bufite isuku kandi bwemewe twakwifashisha mu gutegura imiti gakondo tubikoranye isuku kandi mu buryo bwizewe.

Uburyo bwiza bwifashishwa mu gutegura ibimera gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo gufata amazi meza ugashyira mu gikombe cyiza, ukarambikamo umuti mu minota runaka.

Ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo. Gikorwamo imiti y'amoko atandukanye, kandi ivura indwara z'ubwoko bwinshi. Harimo umutwe udakira, guhuma kw'amaso, gusarara ndetse n'izindi ndwara zijyanye n'ubuhumekero.

Agacupa karimo umuti woza amenyo ukoze mu gikakarubamba, ni umuti wizewe kandi ukora neza mu kurinda indwara z'amenyo, uyu muti wakoreshwa n'abantu bose abakuru n'abato.

Tubungabunge ibimera, bidufasha kugira umwuka mwiza, ikorwarwamo imiti y'amoko atandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko menshi.

Ku isoko Mpuzamahanga, hagaragaraho imiti ya gakondo, ikoreshwa mu buvuzi, ivura indwara z'amoko atandukanye, iyo miti ntihenda iri ku bushobozi bwa buri umwe wese kandi ikora neza mu buryo bwizewe.

Umuntu ufite ikimera cyarabye gifite indabo, iki kimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo, kivura indwara z'amoko atandukanye izo ku ruhu, indwara zo kugira umusatsi upfukapfuka ndetse n'izindi ndwara z'amoko atandukanye.